Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri, abahungu n'abakobwa barimo gukina imikino itandukanye.

Icyumba kirimo abanyeshuri babiri; umwe aricaye, harimo intebe enye, umwe arahagaze, hari imeza, umwe ari kwitegereza cyane.

Abanyeshuri bari imbere y'ishuri rifunze, umwe aricaye, abandi batatu bari kureba ku ruhande.

Abanyeshuri batoya bafite nk'imyaka itanu, bambaye umwambaro w'umukara, ishati y'ubururu, bari kureba mwarimu, abandi barangaye.

Abanyeshuri benshi bicaye ku musambi, umwarimu wabo ari kubaha ibiryo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe, imbere y'aho hari imeza, bafite udukarito bake.

Inzu, imbere yayo hari abanyeshuri bicaye ku mukeka, bari kugaburira. Umubyeyi ukenyeye igitenge.

Mu ishuri hari intebe, ibikapu by'abanyeshuri, amakayi, agacupa n'imeza. Ku kibaho hashushanyije inzu.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari n'amategura, hateyemo ibyatsi, indabyo, harimo ibyicundo, harimo n'abanyeshuri.

Abanyeshuri n'abarezi bakoze uburiziga, bamwe bari kwitegereza neza bakurikira, bumva ibyo bababwira.

Icyumba kirimo imeza iriho ibitambaro by'ubururu n'umweru n'intebe; idirishya rirafunguye, hamanitse amafoto.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari n'amategura, haruguru hari abana bari gukina, bari mu byicundo abahungu n'abakobwa.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ubururu, umwe ari kureba mu gikapu gifite amabara y'umuhondo, uwundi w'umusore yambaye umwenda w'umweru hejuru, hasi kake.

Ikigo cy'amashuri gifite ishuri rifite urugi rusa icyatsi, amatafari n'amadirishya ariho ibirahuri metalike.

Abanyeshuri bari imbere y'ishuri bari kugenda, bambaye bodaboda, bote, ikabutura ya kaki, ishati y'ubururu bahetse udukapu.

Icyumba kirimo intebe, amakaramu, ibitabo amakayi yo kwandikiraho, harambuyeho igitambaro cy'ubururu, hariho compiyuta.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'insina, ku ruhande hubatswe ubwiherero, imbere yaho, hari umwanya uhagije, wagutse, utarimo ibyatsi.

Mu ishuri hari intebe, imbere hari ikibaho cyanditseho, amadirishya arafunguye, hari intebe y'abafite ubumuga.

Ikigo cy'amashuri kiriho abana, hateye indabyo, ibyatsi n'ibiti, n'icyapa kiranga aho hantu.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri bari gukina imikino itandukanye, abandi bahetse ibikapu, abandi barahagaze.

Abanyeshuri bari mw'ishuri bari gukora amatsinda yo gusoma mu gitabo,

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati ashaje, imbere yaho hateye ibyatsi, indabyo, aho winjirira harafunguye.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bahagaze mu buryo butandukanye, bamwe bahetse igikapu, abandi bafite imipira mu ntoki bari kwitegereza imbere yabo.

Abanyeshuri bambaye imyambaro igiye itandukanye b'abahungu n'abakobwa, hagati hateyemo ibyatsi.

Ikigo cy'amashuri, kirimo abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro w'ishuri, bafite ibikinisho by'icyatsi n'ubururu, abandi baricaye ku ntebe.

Ikigo cy'amashuri kiriho indabyo, ibibuga bakiniraho n'ibiti n'abanyeshuri bambaye kaki n'ishati y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari, hejuru hari amabati ariho ibara ritukura. Hagati hateyemo indabyo, ibyatsi.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri; abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri. Ku ruhande hateye igiti kiri ukwacyo, imbere yaho harimo ibendera ry'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Kigoma indangamirwa, handitse kirazira gusuzugura, gukererwa, indangagaciro: kubaha, gusabana.

Abakinnyi bakina umupira wa volley ball, bambaye imyenda itukura hejuru, bamwe bambaye umweru, abandi bambaye ubururu, ku mpande bakikijwe n'amazu, n'abantu bari gufana.

Ikigo cy'amashuri hirya yaho hari ikigega cy'amazi, ku ruhande hari abanyeshuri bambaye umwambaro wo hasi w'umukara, hejuru umweru.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe, umwe afite ubumuga yicaye ku kagare, imbere yabo hari imeza iriho compiyuta.

Ikigo cy'amashuri, imbere y'ishuri hari umwarimu uri kugenda, ku ruhande hari urusengero, imbere hari umwanya uhagije.

Abanyeshuri bari mu kabande bambaye kake, hejuru umweru, hirya yabo hari ibyatsi bisa icyatsi.

Icyumba kirimo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ubururu hejuru, abandi bambaye umweru hejuru, harimo umuntu uhagaze uri gufotora, haraka.

Ikibaho hari umubare magana ane n'icyenda ukubye gatatu, magana inani mirongo itandatu na kane ukubye gatatu, hashushanyije amanota yo kuririmba.

Ikigo cy'ishuri kitwa indatwa n'inkesha. Kiriho ikirango; isuku, umuco no gukunda Igihugu. Hasi hubakishijwe amapave hariho ibyatsi.

Mu muhanda hari abana bari kwambuka, abandi barazamuka bakamanuka, hari imodoka, hirya yawo hateye ibiti n'indabyo.

Ishuri harimo abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu n'amashati y'umweru, umwarimu arahagaze afite igitabo mu ntoki, abanyeshuri bari kureba ibipapuro imbere.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari n'amabati, imbere ku butaka hari ibyatsi byinshi, hari akayira karimo sima, abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hagati hari pasiparumu, abanyeshuri, amazu bakoresha.

Ikigo cy'amashuri kiga ibijyanye n'imyugangiro, kiri mu karere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo kitwa Ruhango.

Abanyeshuri bicaye hasi, bamwe bahetse igikapu, imbere yabo hari umuporisi uri kuha inama.

Ikigo cy'amashuri kirimo amabara y'icyatsi, umuhondo, umweru kirimo abantu bagiye batandukanye, undi ahagaze afite telefoni mu ntoki.

Ku kibaho handitse Icyongereza n'isuzumabumenyi ry'amanota icumi, ikibazo cya mbere kugera ku cya kabiri, babifuriza amahirwe masa.

Abantu bicaye, abandi barahagaze bamanitse amaboko, bamwe bambaye imikenyero n'udupira tw'umweru, harimo abapolisi n'umusirikare umwe.

Ikigo cy'amashuri makuru kitiriwe mutagatifu kirisitu Ruwa Nyanza, kiri mu ntara y'amajyepfo, gifite amashuri agiye atandukanye, gikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo intebe imbere yaho hari ikibaho bacometse porojegiteri. Handitsemo ijambo Smart.

Umuntu ari gusoma igitabo, imbere ye hari ikaramu na kompiyuta ifunguye.

Icyumba kirimo inkweto za badoboda na kamambiri na ravabo n'aho bacaginga, n'igitanda hasi no hejuru.

Inyubako yubatswe mu bwoko butangaje bwa kera ifite irangi ry'umukara n'umweru, impande yaho akikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Abantu bari kwa muganga bambaye umwenda w'akazi w'umweru, bari gusesengura ibipimo bafashe.

Icyumba cyubakishijwe n'amatafari, kirimo mo imbere utubati tubika ibintu bigiye bitandukanye, harimo ak'ibiti, ak'ibyuma.

Hari abantu ba kuzamuka, ku ruhande rwabo, hari imodoka ya kaminuza, imbere yabo hari ikigega cy'amazi cyubakishijwe isima.

Icyumba cyo kwa muganga basuzumiramo cyangwa banariziza, bagendeye ku bipimo babonye.

Icyumba kirimo intebe nyinshi, akameza n'amatara ari kwaka neza cyane.

Abantu bari mu cyumba gifunguye bari mu nama, imbere yabo hari umukoresha uri kubabwira ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo intebe, kirimo abantu bambaye ibintu bigiye bitandukanye bari kureba imbere cyane bitegereza neza.

Ahantu hari inyubako abantu bari kugenda hateye ibiti byinshi, ibyatsi n'indabyo.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ari byo intebe isa ubururu, akameza gateretseho amasahani y'umweru, igikoresho babikaho inkweto zigiye zitandukanye.

Mu cyumba cy'isomero harimo intebe, imeza, ibitabo by'amoko agiye atandukanye bitewe n'icyo ushaka.

Icyumba kirimo abagabo bari ku murongo bagiye hagati harimo metero imwe.

Inyubako yubatswe igeretse inshuro enye, ikikijwe, n'abantu, n'ibiti n'indabyo...

Icyumba kirimo abantu bakuru bambaye agapfukamunwa, imbere yabo hari kompiyuta yaka n'amazi yo kunywa.

Icyumba kirimo intebe, imeza, n'ibindi bikoresho bifashisha basesengura ku kintu runaka.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye neza, hariho akabuwate bashyiramo inyunganizi by'ibitekerezo.

Umuntu uri gutegura ibiryo, harimo ifi, icunga, ibirayi, salade n'i icyo kunywa gifite ibara ry'umukara hirya hari intebe.

Umuntu uri kugenda mu kayira kubakishijwe amapave afite igikapu, yambaye imyenda isa ubururu, inkweto z'umweru, haruguru ye hari ibyatsi, ibiti, amazu...

Icyumba kirimo matera enye, amavarisi, amarido, n'imyenda.

Icyumba kiriho k'urukuta ikibaho cy'umweru n'umukara, hejuru hari porojegiteri.

Kaminuza y'u Rwanda ya catorike ifite amashami agiye atandukanye. Harimo kwigisha iyobokamana, kwigisha uburezi, kwigisha kuvuga indimi.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza iteretseho kompiyuta.

Ni mu cyumba hari ibikoresho. Amavuta, ikarito, ingofero, utujerekani, kuruhande hari matela zishasheho amashuka.

Inyubako zubatswe mu buryo bugezweho, ku ruhande hari umuntu, ibyatsi, ibiti bigiye bitandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari n'amabati atukura hanitse imyenda itandukanye, hasi hari amatafari.

Icyumba kirimo intebe, imeza hateretseho utubido dutatu, ibikombe bibiri n'uburoso n'igikoresho bifashisha bateka amazi..

Icyumba kirimo intebe n'imeza, korogati, ikirori, amata y'umwana, umutaka, agacupa, ajenda n'imbeba ya computer.

Ni icyumba kirimo amatara ari kwaka na prejegiteri, n'abantu bari gusuzuma ibintu byo kwa muganga.

Abantu b'abagabo bicaye imbere yabo hari computers zaka. Ku ruhande hari ikayi, ikereyo na telefoni...

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, harimo intebe, imeza, hejuru yatwo hagiye hateretse kompiyuta.

Icyumba kirimo umukeka, intebe, akameza, pehashi, imyenda yo kwambara, na compiyuta, n'igisokozo cyo gukaraga, n'ururabyo, na mira.